Inyubako nyinshi z'ubuvuzi ziri ahantu hamwe, hari ubusitani bunini cyane burimo ikigega cy'amazi ndetse n'igiti kimwe kiri hanze giteye mu busitani.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, kiriho ikirangantego cy u Rwanda ndetse nicy'imbuto, nicy'umushinga w'imbuto fawundeshenu. Imbere yayo hari abantu benshi bahagaze hanze.